Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku mashuri kuko bagomba gutozwa kwiga bakiri bato. Igishushanyo kiri imbere cyicaweho n'abana bamwe bafite mudasobwa.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwigisha abana b'inshuke bamenya byinshi kurushaho, ikibuga kinini kiriho igikoresho cyifashishwa mu gutoza abana, mu gukora imyitozo ngororamubiri gifite ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nini, ifite inzugi z'ubururu, imbere yaho hari abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umuhondo n'amakabutura y'icyatsi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Abana b'inshuke na bo ubu bajyanywe mu mashuri. Icyumba kinini, kiri kwigirwamo abahungu n'abakobwa, imbere yabo hari abarimu babiri.

Inyubako nini ifite amarangi y'umuhondo, umweru afite inzugi z'umukara, iruhande hari indi nyubako isakaje amabati y'umutuku, kuri iyo nyubako hashushanyijeho igishushanyo kifashishwa mu kwigisha abana.

Uburezi bufite ireme bukomeje gutera imbere mu Rwanda, inyubako nini iteweho amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya y'ubururu, hashushanyijweho ikibabi kigiye cyandikwaho amagambo yandikishijwe mu nyuguti nini mu ibara ry'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikibuga kinini cyubatsweho inyubako isakajwe amabati y'ubururu, itewe amarangi y'umweru. Imbere y'ishuri hari abanyeshuri bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini gitewe amarangi y'umuhondo, hamanitswemo ibikoresho bifashisha mu kwigisha abana. Harimo intebe ziciwemo n'abanyeshuri, babiri babiri ku ntebe, bari kureba imbere ku kibaho cy'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihuguhugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri. Inyubako nziza ifite amadirishya y'umukara n'inzugi z'umukara, ku gikuta hatewe irangi ry'umuhondo rishushanyijweho ibishushanyo byifashishwa mu kwigisha abana bato.

Uburezi bwageze kuri bose ubu umwana w'inshuke na we yemerewe kujyanwa mu ishuri umuhungu, umukobwa, igishushanyo kiriho abantu bari kubyina mu kigo cy'amashuri y'inshuke.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku ishuri. Inyubako nziza isizwe amarange y'umuhondo, ku gikuta hashushanyijeho umwana uri kujya ku ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako isizwemo irangi ry'umuhondo, ku gikuta hashushanyijeho itoroshi riri kwaka hari n'izindi mfashanyigisho zishushanyije mu mabara y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini cyigishirizwamo abana gitewe amarangi y'umuhondo. Ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo byifashishwa mu kwigisha abana.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bajyanwa ku ishuri, inyubako yicawemo n'abana bambaye amashati y'ubururu bamwe barimo kugaburirwa ibyo kurya.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu ni abana b'inshuke bemerewe kujya kwiga kuko nabo bubakiwe amashuri. Inyubako nziza iterawe irangi ry'umuhondo, ku bikuta hashushanyijeho ibishushanyo bifasha abana kwiga neza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'incuke nabo bemerewe kujyanwa mu ishuri, ishuri ritewe amarange y'umuhondo ku gikuta hashushanyijweho ibishyimbo, bifasha abarimu kwereka abana amashusho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kujyanwa ku ishuri. Ishuri ryiza risakaje amabati y'ubururu, rifite inzugi z'ubururu, imbere mu kibuga harimo abanyeshuri bane, bafite ibikapu bagiye ku ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri. Abana bari ku kibuga bari kwiga, imbere yaho hari indi nyubako ikorerwamo ubucuruzi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana b'inshuke na bo ubu bajyanwa ku mashuri, ikibuga kinini kiriho ibikoresho byifashishwa batoza abana kugorora imibiri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda abana b'inshuke bari kujyanwa mu mashuri. Icyumba kinini kirimo abana bari kwiga gusom. Umugore uri imbere yabo uri kubigisha n'undi mwana ufite igitabo uri gusomera bagenzi be.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bw'umuntu, ikibuga kinini cyubatsweho ibikoresho byifashisha mu kurera abana babereka uburyo bakora imyitozo ngororamubiri, harimo abana bari kuyikora n'abandi bari imbere ya mwarimu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa mu mashuri kuko na bo bafite inyigisho bahabwa. Inyubako ifite amabara y'umuhondo, ku gikuta hariho ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abana b'inshuke bose bemerewe kujyanwa ku ishuri abahungu n'abakobwa. Ameza arambitsweho ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abana b'inshuke bari kujyanwa ku ishuri, babigisha ibintu bitandukanye. Imigani ya kera, babereka amashusho mbese uburezi bufite ireme.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu n'abana b'inshuke bemerewe kujyanwa ku mashuri, abana bari mu bikinisho byabo bari kwigishwa koga, bafite ibikinisho biri mu ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Ikibuga kinini kicaweho n'abana imbere yabo hari umukambwe wambaye ishati y'umutuku ufite umusatsi wabaye imvi uri kubagira inama, imbere yaho hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujya mu ishuri, inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku, ifite ubusitani bwiza cyane mu busitani harimo n'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako nini isizwe amarange y'umuhondo, ifite amadirishya y'icyatsi hicawemo n'abana bane, babiri babiri ku meza bafite ibyo kurya ku masahane n'ibyo kunywa mu bikombe by'ibirahuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza, itewemo amarangi y'umuhondo, harimo ibibaho by'umukara, harimo n'intebe zifite amabara y'umuhondo n'ameza y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri mwana wese afite uburenganzira bwo kujyanwa ku ishuri. Inyubako ifite amarangi y'umweru, ku bikuta hariho imfashanyigisho. Hari aharambitse mudasobwa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri kagari kubatswemo amashuri abanza ku buryo buri mwana yemerewe kujya kwiga. Inyubako nziza isakajwe amabati, imbere yaho hari abantu batatu.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa ku buzima bw'umuntu kuko imufasha kubaho neza. Ubu mu mashuri abanza hubakiwe ibibuga abana bitorezaho. Ikibuga cyiza cyubakishijwe isima. Hakurya hari imisozi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini ifite amabara y'umweru n'inzugi z'icyatsi, imbere yaho hari intebe, ku ruhande hari inyubako isakaje amabati y'umweru, hasi hari inkingi zifite ibara ry'umweru.

Uburezi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri mwana wese yemerewe kujyanwa ku ishuri agahabwa inyigisho. Inyubako nziza isakajwe amabati y'ubururu, iteweho amarangi y'umweru, yigirwamo abana b'inshuke.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana bose bemerewe kwiga, abahungu n'abakobwa bose bajya mu ishuri rimwe. Icyapa kinini kifite ibara ry'umweru, gishushanyijweho ikirango cy'ikigo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bubaka andi mashuri yo kugira ngo abana bigiremo, inyubako isakaje amabati y'ubururu, inkingi ziteyeho amarangi y'umuhondo, amashuri asa nkaho akiri mashyashya atarigirwamo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini y'amashuri asakajwe amabati y'umweru, afite igipangu kinini gikingishijwe urugi rw'ubururu, hagati mu muryango w'igipangu harimo abanyeshuri bagiye kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri kagari karimo ikigo cy'ishuri kibanza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishuri ririmo abanyeshuri imbere yabo hari umugore usa nk'aho ari mwarimu wabo n'undi munyeshuri ufite igitabo uri gusomera abandi bana.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abana bato bemerewe kujyanwa ku ishuri, inyubako nini isakajwe amabati y'ubururu, ifite inzugi z'ubururu, imbere yaho hari abana bafite ibikapu n'imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi ufite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isakaje amabati ifite igipangu gikingishijwe urugi rw'ubururu, hejuru hari icyapa cyerekana izina ry'ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ikibuga kiriho inyubako nziza isakajwe amabati, ifite inzugi z'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubu buri kagari mu Rwanda kagiye kubakwamo ishuri ribanza. Inyubako nziza yubakishijwe amabati y'umutuku ifite inzugi z'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini igeretse kabiri imbere yaho hari ibiti birebire, inyuma hahagaze abarezi bari hamwe bambaye imyenda y'akazi y'umweru.

Uburezi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri abanza yageze muri buri kagari kagize mu u Rwanda, inyubako nziza yubakishijwe amabati y'ubururu urugo rwaho rukingishijwe urugi rw'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza isizwemo amarangi y'umuhondo, ibitswemo ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza ibikinisho bifashisha babashimisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cyu Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati, isizwe amarange y'umuhondo. Ku gipangu hari urugi rufite ibara ry'icyatsi rwandikishijweho amagambo mu ibara ry'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga, icyumba kinini kicawemo n'abanyeshuri imbere yabo bafite ibitabo bari gusoma, iruhande ku ntebe imwe hamanitswe igikapu cy'umutuku.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu burezi n'ibikoresho bikwiriye mu burezi birahari. Amarati arambitswe ku meza yifashishwa mu guca imirongo ku bana bigishwa kwandika. Hari n'igikoresho cyifashishwa mu gusongora ikaramu bandikisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Icyumba kirimo abanyeshuri batanu, buri umwe ari kwandika ku kibaho.

Uburezi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amashuri abanza meza cyane, yubakishijwe amabati y'umweru, asizweho amarangi y'umweru. Imbere y'amashuri hari ubusitani bwiza burimo indabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umwarimu wambaye umwenda w'akazi w'umweru ufite igitabo mu ntoki uri kwandika ku kibaho cy'umukara, akoresheje ingwa y'umweru, uri kwigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujyanwa ku ishuri, amashuri abanza higwamo amasomo atandukanye nk'iribigisha ubuzima, icyapa cy'ibara ry'umweru cyanditsweho amagambo yerekana isomo.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujyanwa ku ishuri, inyubako nini ifite urugi rurerure rufite ibara ry'umweru, handitsweho amagambo yanditswe mu nyuguti nini mu mabara y'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri abanza n'ayisumbuye arahari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijweho amagambo mu nyuguti y'ubururu.

Inyubako nini itewemo amarange y'umuhondo hejuru harimo amatara y'umweru meza, hasi hatewemo ameza ay'ubururu, ay'umuhondo, ay'umutuku, buri meza arambitsweho igitabo.

Inyubako nini isakajwe amabati y'ubururu hariho ikigega gifata amazi cy'umukara, ikingishijwe amadirishya y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, imbere yaho hari umurima munini uhinzwemo ibigori n'urutoki.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ubusitani bunini burimo ibiti n'indabo imbere yaho hari icyapa cyanditsweho izina ry'ishuri n'indangagaciro.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abana bato n'abakuru bemerewe kwiga, inyubako nini yubatswe neza higigwaho n'abana, hari imikino hifashishwa abana bari gukiniraho.

Uburezi bukomeje gushyirwamo imbaraga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu ashuri abanza bafite ibikoresho bifashisha mu kwiga. Inyubako nziza ifite irangi ry'umweru hariho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abagabo n'abagore, bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nini irimo abantu, bari gukora ubushakashatsi biga mu mashuri yisumbuye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri meza asakajwe amabati y'umweru, asa nkaho asaje, akingishijwe inzugi z'ubururu. Imbere y'amashuri hari abagore n'abagabo bari kugenda bandika.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, inyubako nini ifite icyumba gitewe amarangi y'umweru. Icyo cyumba cyicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru na mwarimu uri kubigisha.

Abanyarwanda bakomeje gukorera hamwe barinda ingengabitekerezo ya Jenoside, bibuka amateka yabaye mu Rwanda bashaka ingamba zo kutazatuma yongera kubaho, abanyeshuri bafite icyapa bari kwerekeza ku rwibutso.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini isakajwe amabati y'umweru, imbere yaho hari inkingi zifite ibara ry'umuhondo. Inyuma y'inkingi hahagaze abagabo n'abagore bari kureba ayo mashuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini irimo intebe zimwe zicayeho izindi ziticaweho, abanyeshuri babiri bari kwandika mu makayi iruhande na mwarimu wabo niho yicaye, inyuma hari ikibaho cy'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umuhondo ifite inzugi z'ubururu, hasi hari ikigega cy'umukara gifata amazi, imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku, ifite ibara jy'ubururu jyanditswe mu izina ry'ikigo. Imbere yaho hicaye abanyeshuri bambaye impuzankano.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umutuku harimo intebe zifite ibara ry'icyatsi n'ameza arambitsweho mudasobwa z'umukara.

Inyubako nziza itewe amarangi y'umuhondo ku nkingi, yubakishijwe amatafari mato ahiye. Isakajwe amabati y'umweru. Hahagaze abagabo imbere yaho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri y'inshuke arahari n'ayisumbuye arahari. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umweru. Imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo indabo z'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza iriho icyapa cyanditsweho indangagaciro na kirazira by'ishuri. Imbere yaho hahagaze abarezi n'abanyeshuri, abagore n'abagabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako isizwe irangi ry'umuhondo, ku gikuta hariho ikibaho cy'umukara kirekire, imbere hari umunyeshuri uhagaze, ufite ibyo ari kubwira bagenzi be bicaye.

Ikibuga kinini gihagazweho n'abakobwa, abahungu bambaye impuzankano, imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara, bari mu kidari gisakajwe amashitingi y'umweru n'ubururu. Imbere yaho hari umuntu uri kubereka uko bahagarara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ikingishijwe inzugi z'umukara, imbere hari umunyeshuri wambaye ishati y'umweru ku kibaho handikishijweho ibara ry'umweru amagambo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nini isizwe amarangi y'umuhondo, imbere yaho hari abagore n'abagabo bari kugenda, inyuma yabo hari ikigega cy'umukara gifata amazi.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini isakajwe amabati y'ubururu yubakishijwe amatafari mato ahiye, ku gikuta hariho icyapa cyerekana izina ry'ishuri n'indangagaciro na kirazira by'ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikigo cy'amashuri gifite urugo rukingishijwe urugi, rufite ibara jy'icyatsi handikishijweho amagambo yanditswe mu nyuguti nini mu ibara jy'umweru.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubu buri munyarwanda yemerewe kwiga umuhungu, umukobwa, umugore n'umugabo bose bafite uburenganzira bwo kwiga, icyumba kinini kirimo ibitabo byifashishwa mu kwigisha.

Imyitozo ngororamubiri ni ngombwa mu buzima bw'umuntu. Ikibuga kinini kiriho imikino abana bakiniramo, gisize amarangi umuhondo, icyatsi n'ubururu. Hakikijweho urugo rwubakishijwe amatafari ahiye.

uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza isakajwe amabati y'umweru yubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye. Ku gikuta hariho icyapa cyerekana izina ry'ishuri n'indangagaciro.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bemerewe kujya ku ishuri, icyumba kinini kiri kwigirwamo n'abanyeshuri bagiye baba mu matsinda, bamwe bambaye amashati y'umweru abandi imipira y'umuhondo.

Uburezi bukomeje gutera imbere abahungu n'abakobwa bose bariga, ishuri ririmo abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'imipira y'umukara, inyuma yabo hari ikibaho gifite ibara ry'umukara cyanditsweho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ikibuga kinini gihagazeho abanyeshuri batanu bambaye impuzankano y'umweru. Iruhande rwabo hari mwarimu ufite ibyo ari kubabwira.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umuhanda uri kugendwamo n'abanyeshuri bavuye ku ishuri bahetse ibikapu. Umugore ufashe umwana bari kugenda, amucyuye, amukuye ku ishuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyumba kinini gitewemo amarangi y'umuhondo harimo n'amatara, hicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankanmo, amashati y'umweru, buri umwe afite mudasobwa imbere.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nini yicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano amajipo y'icyatsi n'imipira y'icyatsi n'inkweto z'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu, abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujyanwa mu mashuri, abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru, bicaye hamwe mu busitani burimo ibiti birebire.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda babigisha no kugira isuku. Abanyeshuri bambaye impuzankano amashati y'umweru n'udupfukamunwa abahungu, n'abakobwa. Babiri muri bo bari ku gikarabiro bari koga ibiganza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nini ifite icyumba cyicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru, amapantaro y'umukara n'amajipo y'umukara. Imbere yabo bafite mudasobwa bari kwigiramo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nziza, isakaje amabati y'umweru, ifite imiryango ifunguye, imbere yaho mu busitani hahagaze abanyeshuri.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Ikibuga kinini cyicaweho n'abanyeshuri bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'amajipo y'umukara n'inkweto z'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, icyumba kinini cyicawemo n'abanyeshuri babiri bambaye udupfukamunwa, buri umwe afite mudasobwa ye imbere ye, iruhande hari umuryango ufite inzugi z'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Abanyeshuri bahetse ibikapu bambaye imipira y'umuhondo n'abambaye iy'icyatsi, bari ku kibuga imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abahungu, abakobwa bose bemerewe kujyanwa ku ishuri, icyumba cyiza kinini cyicawemo n'abanyeshuri buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu. Hagati harimo mwarimu wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umweru. Inyuma hari ikibaho cy'umukara.

Uburezi bukomeje gutera imbere abahungu n'abakobwa bose bariga, ubusitani bunini bwicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano itandukanye, bamwe bambaye umweru abandi umuhondo, imbere yaho hari ibiti birebire.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda, abahungu nabakobwa bose bafite uburenganzira bwo kujya kwiga, abanyeshuri bicaye hamwe mu nyubako nziza bambaye impuzankano itandukanye, bamwe bambaye imipira y'umuhondo, abandi iy'ubururu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko budufasha kugera kuri byinshi, kubaka u Rwanda twifuza. Ikibuga kinini cyubatsweho amashuri afite inkingi z'umuhondo, asakajwe amabati y'umweru, afite amadirishya y'uburu.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikibuga kinini kiri kugenrwaho abahungu n'abakobwa, umukobwa umwe afite igitabo mu ntoki ze n'amakaramu mu ntoki, aba banyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda, abahungu n'abakobwa bafite uburenganzira bwo kwiga, inyubako nziza isizwe amarange y'umweru, imbere yaho hari ubusitani bwiza cyane, impande hari igikoresho bashyiramo imyanda.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bwiza cyane imbere yaho hari inyubako ifite amabati y'umutuku, isizwe amarangi y'umweru higigwamo abanyeshuri ba kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abagore, abagabo bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nziza yicawemo n'abanyeshuri bafite mudasobwa imbere zabo n'umwarimu uri kubigisha.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza yubakishijwe ibirahuri, itewe amarangi y'umweru mo imbere. Iyo nyubako ni iy'amashuri ya kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, abagore, abagabo bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Abanyeshuri bicaye mu ishuri biga mu mashuri ya kaminuza. Bambaye udupfukamunwa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mashuri abanza, ayisumbuye, kaminuza, abanyeshuri ba kaminuza bambaye imyenda myiza cyane iri mu mabara y'umukara n'ingofero.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bwiza cyane burimo ibiti birebire hiciwemo abakobwa batanu, umwe afite telefoni mu ntoki afite ibyori kwereka bagenzi be, inyuma yabo hari inyubako nziza.

Uburezi bukomeje gutera imbere gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyubako nziza yubakishijwe amarange y'umweru isakajwe amabati, imbere yaho hahagaze umugabo wambaye umupira w'umweru, iri shuri ni irya kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inyubako nziza ifite inzugi z'ibirahuri n'amadirishya y'ibirahuri, isakajwe amabati. Iyo nyubako ni iya kaminuza. Imbere yaho hari umuntu wambaye ishati y'umweru.

U Rwanda rufite ibyiza nyaburanga nk'inyubako nziza ziteye amarangi meza, inyubako nini isizwemo irange ry'umuhondo, harimo intebe nziza zifite ibara ry'ubururu hiciwemo abantu hari n'ameza arambitsweho icupa.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari amashuri abanza, hari ayisumbuye, hari ay'inshuke, hari aya kaminuza. Inyubako nini yigwamo abanyeshuri ba kaminuza, imbere hari ikibaho kiri mu ibara ry'umweru cyanditsweho.

Uburezi bukomeje gutera imbere mugi cyacu cy'u Rwanda, abato n'abakuru bose bafite uburenganzira bwo kwiga. Inyubako nini nziza yicawemo n'abanyeshuri, abahungu n'abakobwa biga muri kaminuza, buri umwe afite mudasobwa imbere ye.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye n'aya kaminuza. Ishuri ryiza rya kaminuza rifite intebe z'icyatsi hicawemo abahungu n'abakobwa bari kwiga.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amashuri ya kaminuza meza cyane atewemo amarangi y'umweru. Ku gikuta hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu. Hahagazemo abagore n'abagabo.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubusitani bwiza cyane burimo indabo n'ibiti birebire, iruhande hari umuhanda abanyeshuri bari kunyuramo batashye. Iryo shuri ni irya kaminuza risakajwe amabati y'umutuku.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu mugi cyacu cy Rwanda, inyubako nini yicawemo, abagabo, abagore, bambaye imyenda myiza ifite ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu n'umukara, basa nk'abasoje amashuri ya kaminuza.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, umunyarwanda ahera mu ishuri ry'inshuke agakomeza akarinda agera kaminuza nta kibazo, abanyeshuri bari mu cyumba bambaye amakanzu meza yambarwa n'abasoje kaminuza bafite impamyabumenyi mu ntoki zabo.